Abanyeshuri bambaye impuzankano bari gukina bahetse n'ibikapu byabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza basubire ku ishuri cyangwa se bari mu rugo bameze neza barusheho kugira ubumenyi ndetse no kwiteza imbere.

Imbere mu ishuri hicayemo abana baje gufata amasomo, bicaye barebana hagati muri bo harimo ameza ari gutuma babasha kuganira, bashyizeho ibikoresho byabo, kugira ngo babashe guhuza mu buryo bunoze.

Icyumba cy'amashuri kifashishwa n'abanyeshuri bakiri bato, hahagaze abanyeshuri batatu bambaye impuzankano, biteguye guhabwa serivisi n'abarimu bakigishwa bakamenya bagatera imbere.

Umusaruro w'urusenda, aho imishugi myinshi iri mu mufuka uwarusaruye yashyizemo kugira ngo abashe kubijyana aho bikenewe, bitunganywe, bakoremo urusenda ruribwa n'abantu cyangwa se ukoreshwa indi mirimo, bitanga umusaruro ukwiye.

Inyubako ifite icyapa kimanitseho, cyanditseho, serivisi batanga, cy'umweru. Ifasha abantu baje guhabwa serivisi kuri iyi nyubako, kumenya kubasaba ibyo basaba.

Icyapa gishinze ku muhanda cyanditseho amagambo havapa Gatagara, gisobanura ko ari icya Gatagara kimenyekanisha ibikorwa Gatagara ikora ndetse na serivisi itanga.

Ameza arambitseho ibitabo, amakayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu biro, hariho ikaye y'umweru iriho karindari igaragaza ingengabihe.

Ikigo cy'amashuri kigaho abanyeshuri bo mu cyiciro kibanza, barimo gukina imbere y'amashuri bitegura kujya kumva amasomo bahabwa n'abarimu babo kugira ngo bagire ubumenyi buteye imbere.

Ikigo cy'amashuri, gifite ibyumba by'amashuri biri mu byiciro bigiye bitandukanye birebana, hagati muri byo harimo umucaca urimo n'indabo, biza gufasha abanyeshuri bahiga kuruhukiramo mu gihe bategereje gusubira mu ishuri.

Ikigo cy'amashuri cyubatsemo ibyumba bitandukanye abanyeshuri bakoresha barimo kwiga, hagati mu kigo harimo ibiti bizana umuyaga mu kigo ndetse n'inyuma y'amashuri hari ishyamba, bituma abanyeshuri bagira umwuka mwiza wo guhumeka.

Ikigo cy'amashuri kirimo ibyumba bitandukanye bifite amadirisha y'ubururu n'inzugi z'ubururu, hahagaze umugabo, hafi hari indangururamajwi irimo kugeza ubutumwa ku bari mu kigo, ndetse hari n'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru bahagaze barimo kumva ubutumwa bari kugezwaho.

Itsinda ry,abanyeshuri bari ku mbyina, imbyino za gakondo bashimisha abantu bicaye matente, bitabiriye ibi birori.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cya sare bakoze uruziga hagati muri bo harimo umuyobozi urimo kubagezaho ubutumwa yabateguriye kugira ngo barusheho kumenya no kwiteza imbere gihe cy'ubu n'igihe kizaza.

Abanyeshuri bari mu nzira bagenda, bavuye gufata amasomo yabo, bahetse ibikapu ndetse bambaye impuzankano, bagenda baganira, kugira ngo babashe kugera mu rugo amahoro, banarusheho kugira ubuzima bwiza, no kugira ubumenyi mu byo biga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, amashati y'umweru, bafashe icyapa kinini cyiri mu mabara y'umweru n'ubururu, cyanditseho IPRC HUYE, bisobanuye ko ari abiga muri IPRC HUYE bakaba bari mu gikorwa runaka, cyatumye bakora icyapa kigaragaza gikorwa barimo.

Kuri sitade agace kicarwamo n'abafana, kari mu marangi y'ubururu, icyatsi n'umuhondo n'idarapo.

Imbere mu ishuri abanyeshuri bicaye ku ntebe, bari gufata amabwiriza bari guhabwa n'umugabo uri kubahugura kugira ngo bunguke ubwenge, bubashe gutera imbere, ndetse banagire ikinyabupfura.

Imbere mu cyumba kiraramo abantu harimo ibitanda bigiye bigerekeranye hicayemo umwana arimo kubyitaho abikorera amasuku, areba mu gikapu kugira ngo yite ku bikoresho byiwe.

Inyubako ndende ifite igice cyubakishije ibirahuri ndetse n'ibyuma, ifite agakoresho kashyizwe hejuru gasa umweru, kanditseho amagambo asobanura ibikorwa bikorerwa muri iyo nzu.

Imbere mu kigo cy'amashuri, abanyeshuri bambaye impuzankano, barimo gukina, bitegura gusubira mu ishuri, bagahabwa amasomo n'abarimu babo, bakamenya, bakagira ubuzima bwiza ndetse n'ejo hazaza habo hakagenda neza.

Inyubako ifite imiryango itandukanye itanyurwamo serivisi zihabwa abaturage, imbere yayo hari abantu bitegura kwinjira mu nyubako, kugira ngo bajye aho bahererwa serivisi bayihabwe.

Inyubako nini igeretse yanditseho amagambo agaragaza ibikorwa bihakorerwa, imbere yayo hari amabendera abiri, harimo n'ibendera rya repubulika y'u Rwanda. Hari n'umugabo uhahagaze uri gufata ifoto y'urwibutso.

Imbere mu nyubako mu cyumba cy'isomero kirimo utubati turimo ibitabo bitandukanye bigiye bipanze ku buryo bufasha uza gusoma kumenya aho igitabo giherereye, harimo kandi ameza ndetse n'intebe yicarwamo n'umuntu urimo gusoma igitabo.

Imbere mu ishuri ririmo intebe, abanyeshuri bicaraho bahabwa amasomo, ndetse n'ameza umwarimu akoresha mu gutanga amasomo ye. Hari ikibaho kiba kiri gucaho inyigisho, ari kwereka abanyeshuri, kugira ngo abungure ubumenyi.

Imbere mu cyumba cy'umuntu araramo harimo ibikoresho yifashisha nk'igitanda aryamaho, imyenda yamanitse ahabugenewe ndetse n'ameza ariho igikoresho kimufasha gushyushya amazi ndetse n'agace akoresha mu gukora amasuku.

Ubworozi bw'amatungo y'inka, bwororewe mu kiraro gikoze n'ibiti, gifite isuku, gitwikirije amabati. Bizagufasha ko zibaho mu buzima bwiza, zigatanga umusaruro, umworozi azishaka, ari kuzitaho kugira ngo zimere nk'uko abishaka.

Imbere mu biro ahatangirwamo serivisi, harimo akabati karimo ibikoresho bibika impapuro n'ibindi byifashishwa mu kazi ndetse hari n'ameza uri gukora akazi yifashisha mu gutanga serivisi.

Igikorwa cyo gufata amafunguro, aho umukozi ari kugenda yarurira umuntu ugezweho, umugore arimo kwerekana ibyo ashaka kurya kugira ngo amwarurire, arye ibyo yifuza.

Ikigo cy'amashuri kirimo ibyumba abanyeshuri bifashisha ndetse n'ikigega cy'umukara kibika amazi bakoresha mu bikorwa by'isuku, hariho imyenda yafuzwe, yanitswe ku izuba kugira ngo ibashe kuma, ikoreshwe na nyirayo.

Umukobwa uri mu cyumba araramo, harimo igitanda kiriho matera, yarambitseho terefone ndetse n'akabati kajyamo ibikoresho by'imyenda ndetse n'inkweto, arimo aritegereza kugira ngo ahitemo umwenda aribwambare.

Imbere mu cyumba cy'uburyamo, ahari ibitanda bibiri n'abakobwa bicaye ku buriri bararamo, hariho utubati turimo ibikoresho bifashisha kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Agace karimo inyubako ndende, zigerekeranye, zitandukanye, hariho ibiti biri impande yazo, bizikikije bitanga akayaga, kugira ngo abarimo bamererwe neza.